Abantu batatu bicaye ku meza harimo umusirikare, umupolisi n'undi wicaye hagati mu nzego zitandukanye, hari n'undi mugabo uhagaze imbere ufite mikoro y'umuhondo urimo kubazwa cyangwa gutanga igitekerezo kubyo yumva ashaka kugisha inama.

Abagore babiri umwe bafite mikoro yambaye rinete, undi yambaye umukenyero, afite isakoshi mu ntoki, afite umusatsi uri natureire, amufashe ku rutugu, bisa nkaho hari icyo arimo aramubwira, cyangwa ari abwira abandi uburyo bwo kumutangiraho urugero rugaragarira buri wese.

Ndabona abantu babiri bambaye imipira isa bahagaze imbere y'abandi benshi bisa nk'aho barimo gutanga amakuru cyangwa amateka ku bantu bakiri bato kugira ngo babashe kumenya aho baturutse cyangwa bavutse.

Intore imwe yasimbutse imbere y'abayiteze amaso, arimo guhamiriza ateze amaboko yombi, yasetse, abandi bamukomeye amashyi, kugira ngo akomeze kunezeza buri wese uri aho ngaho.

Ni abataramyi bisa nkaho bafite ikirori barimo kubyina imbere y'ababateze amatwi kugira ngo babashe gushimisha cyangwa kunezeza abitabiriye uwo muhango wabereye aho.

Umugabo n'umugore bisa nkaho bashyingiwe, hari abandi bahagaze imbere umwe afite kado, undi arambitse ikiganza, arimo arabereka amerekezo, umukobwa afashe mu kwaha umuhungu kugira ngo atambuke neza.

Ndimo ndabona intore eshatu bambaye ibara ry'umweru barimo gutaramira babyinira abitabiriye icyo gikorwa, bigaragara nk'aho habereye umuhango w'ubukwe muri rusange barimo kubyina kugira bishime.

Umuntu babiri, umwe afite umuduri mu ntoki asa nk'aho arimo gucuranga arimo no kuririmba kuko hari insinga zihagaze imbere ye bisa nk'aho hacometseho indangururamajwi kugira ngo buri wese abashe kumva cyangwa kumvikanisha ibihangano bye.

Umudamu umwe, wambaye ikanzu y'umutuku, wambaye urugori mu mutwe, ufite urusyo n'ingasire arimo gusya amasaka, ashakamo ifu y'igikoma cyangwa umusururu kugira ngo inyota n'inzara bitazamwica.

Ni abantu benshi barimo bakorera hamwe bazamura ipoto risa nk'aho ryari ryaguye bitewe n'umuyaga n'izindi nkongi kugira ngo umuriro ukomeze usakare ku baturarwanda cyango no mu bindi bihugu bitandukanye.

Ni bimwe mu hahurizwa imiyoboro y'amashanyarazi kugira ngo igere kuri buri wese ku bayakeneye, mu buryo bwo gukwirakwiza ingufu z'umuriro mu turere tugari.

Icyapa cyerekana ingufu z'amashanyarazi n'uko zikoreshwa binyuze mu itunganywa ry'umuriro kugira ngo ubashe kugera ku mazu y'abatuye, mu uburyo bwo kwirinda inkongi z'umuriro.

Ni ahantu hakusanyirizwa umuriro w'amashanyarazi cyangwa ibyo nakita urugomero kugira ngo ajye agera ku bantu yabanje kunyura ahantu hizewe kandi hapimwe, mu buryo bwizewe kandi bwa buri wese.

Ni inzu nyinshi harimo abantu, ipoto ry'amashanyarazi bisa nk'aho ari inzu z'ubucuruzi cyangwa ari ahantu abantu bateranira baje gushaka imibereho kugira ngo baramuke.

Umukobwa wambaye ije y'umuhondo bisa nkaho afite umurasire mu ntoki n'amatara, arimo kurira urwego agiye kujya hejuru kuwumanikaho kugira ngo babashe kumurikirwa, kuva mu mwijima.

Umugabo umwe yuriye ipoto, arimo gukanika cyangwa kwesitara muri cash power cyangwa ububiko bw'insinga, yambaye isalubeti y'umweru, yambere n'umukandara mu nda kugirango abashe gukomera.

Ndabona amazu menshi asakawe n'amabati y'umutuku, hari imodoka iruhande rwayo isa umukara iri mu bwoko bwa Toyota iri mu muhanda bigaraga nkaho ari mu Mudugudu w'icyitegererezo.

Ndabona igicumbi cy'itorero, kirangwa n'ibura ry'umweru, cyanditseho Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari Kasheke, Umudugudu wa Nyegeza, indangagaciro na kirazira biranga ako gace cyangwa aho.

Igicumbi cy'itorero, kiriho Intara y'Iburasirazuba, mu Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Barija, Umudugudu wa Kinira, indangagaciro zibaranga, kirazira bakwiye kwirinda kugira ngo baba babashe kubana mu mahoro.

Inzu igeretse rimwe hariho ikirangantego cyanditseho ibiro by'Akarere ka Nyagatare mu muryango hahagazemo abantu babiri, iburyo bwabo hari kizimyamwoto hirya yaho hari indabyo kugira ngo habashe kugaragara neza mu ishusho yayo.

Umudamu umwe afite n'umwana afite agafuni bifashisha batera intabire yikoreye n'umuzigo ku mutwe bisa nkaho arimo aratambuka ku kiraro kugira ngo abashe gufata uriya mwana uri imbere ye kugira ngo bakomeze urugendo rwabo.

Abantu benshi basa nk'ahateraniwe inama mpuzabikorwa, kuko hari ingeri nyinshi zitandukanye zihuriweho n'imirimo itandukanye, zije kwiga ku kibazo cyangwa guhabwa inama ku byo zaba zigiye gushyira mu bikorwa.

Abantu benshi harimo nzego z'ubuyobozi zitandukanye, abasirikare, abapolisi, abacungagereza, harimo n'izindi ngeri z'abantu baje kwifatanya n'abandi kwibuka ku nshuro mirongo itatu na rimwe Jenoside yakorewe Abatutsi miri mirongo icyenda na kane.

Ihuriro ry'abantutu benshi bisa nkaho baje mu gikorwa kimwe, kuko harimo abambaye udutambaro mu ijosi two kwibuka inshuro ya mirongo itatu, ku buryo buri wese amenya icyamuzanye.

Icyapa, cyerekana, aho abanyamaguru bemerewe gutambukira, ku buryo buri mushoferi utwaye ikinyabiziga, abibona byibura muri metero ijana imbere ye, kugira ngo, agabanye umuvuduko, ku buryo bitamuteza impanuka.

Ibisi irimo abagenzi isa nk'aho igeze muri gare, igiye guparika kugira ngo abagenzi bavemo hanyuma injiremo abandi, kugira ngo ibikorwa bikomeze by'urugendo.

Ndabona ari imodoka ya kampani ikaba iri mu bwoko bwa Fuso iri mu buryo bw'umuhanda bw'iburyo bigaragare nk'aho irimo iratwaza ku ruganda imizigo iyigeza ku bantu bayikeneye.

Abantu benshi bari mu gikorwa cy'urukundo, mu muganda rusange, barimo guterura amabuye, bisa nk'aho ari uwo bagiye kubakira, cyangwa barimo gutinda mu muhanda, kugira ngo ibinyabiziga cyangwa abantu, babashe kugendamo neza ntakibatega.

Abantu benshi harimo ab'inzego z'umutekano batatu, harimo n'abandi bagabo batanu n'umugore umwe, ku meza y'imbere hicayeho abagabo babiri batatu n'umugore umwe bigaraga nkaho barimo baratanga inama kuri aba bantu bicaye imbere yabo cyangwa bari mu rubanza runaka.

Uburyo, bwiza bwo, gukora amasuku bwa kijyambere. Harimo, umusirikare abasirikare, abadaso, abandi bantu, kugira ngo bakorere hamwe babashe gusoza, igikorwa kare, kandi, neza mu buryo bugaragarira, buri wese.

Abantu benshi b'urubyiruko basa nkaho bikoreye amabuye bari mu gikorwa cy'urukundo cyangwa cy'ubutwari, bari mu kayira gatoya bakikijwe n'insina z'ibitoki, hasi hahinzemo kokombure kugira ngo babashe guteza imbere igihugu cyabo.

Abantu benshi bari mu muganda rusange, barimo guhinga ahantu hari igisambu, bigaragare nk'aho bagiye guteramo imbuto zabugenewe kandi zagirira n'abantu umumaro kugira ngo biteze imbere.

Abakinnyi harimo abambaye ibara ry'ubururu. Abambaye ibara ry'cyatsi kibisi, basa nkaho barimo gukina bagamije gushaka insinzi hagati yabo kugira ngo babashe kubona abarusha abandi muri bo.

Ikibuga kirimo abagabo batatu bambaye ibara ry'umukara, abandi babiri bambaye ibara ry'umuhondo, bisa nkaho baje gukina kugira ngo hagati yabo hagaragaremo intsinzi, ku buryo buri wese aramenya abatashye barusha abandi.

Abantu benshi harimo inzego zitandukanye, basa nkaho bari muri siporo ngororamubiri, kugira ngo abafite ibiro byinshi cyangwa bikeya babashe kuringaniza buzima bwabo, birinda n'indwara za hato na hato, n'imivuduko y'amaraso, kugira ngo ubuzima bwabo buhore bumeze neza.

Ndabona abagabo batanu, bane bambaye ibara ry'umuhondo, amasogisi y'umuhondo hari n'umugabo umwe wambaye ibara ry'icyatsi handitsemo akaba k'umuhondo n'amasogisi y'umukara na ga mu ntonki, bigaragara nkaho ari abakinnyi bagiye gukina umupira w'amaguru.

Ni abakobwa barimo abambaye umwambaro w'ijezi z'umukara n'abambaye iz'ubururu bisa nkaho barimo bakina umupira w'amaguru bashaka intsinzi hagati yabo kugira ngo barebe abarusha abandi.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa Fusso, iri mu muhanda rwagati, impande y'aho hari ipoto ry'umuriro iriho amatara yo mu muhanda, bigaragara nk'aho iyi modoka irimo kugenda mu muhanda ifite aho igiye.

Umunyonzi uri mu muhanda, wikoreye ibitoki binini, iruhande rwe hari ipoto y'amashanyarazi, ririho, itara, bisa nk'aho agemuye mu isoko cyangwa agiye gutara, iwe kugira ngo avanemo, imitobe cyangwa inzagwa.

Ni agahanda k'abanyamaguru, kaba gaherereye ku nzira nyabagendwa kari mu nkengero z'umuhanda, ni umuhanda uciyemo ibice bibiri iburyo n'ibumoso kugira ngo hatagira ibinyabiziga bigongana.